Umugabo ufite igishushanyo mu ntoki gishushanyijeho umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ijipo y'umukara, hirya ye hari abana ari kwigisha ndetse imbere ye hari igiseke.

Ikibaho gishushanyijeho ibiti, ibyatsi, hejuru y'amazi, ku nkombe hari ubwato, hirya y'aho hari ubutaka, hirya y'icyo gishushanyo hari ibiti.